Abagabo batatu bahagaze ahantu hari ibyatsi byinshi, inyuma hari urutoki bafite ibikoresho bitandukanye umwe afite ijage isa icyatsi mu ntoki ari kudaha ashyira mu kindi kintu.

Umuhinzi w'umugabo wambaye ishati n'ipantaro, ahetse imashini mu mugongo yifashishwa mu gutera imiti ibihingwa, ari mu murima munini uhinzemo ndetse impande hari ibiti.

Umusore wambaye inkweto z'icyatsi, ipantaro n'umupira, ahetse imashini yifashishwa gutera imiti ibihingwa, ari gutera ibitunguru biri mu murima munini, impande hari urugo rwubakishije amatafari ahiye imbere harimo inyubako.

Ibyuzi by'amafi, impande hari imirima yo guhingwamo myinshi ndetse n'ishyamba riri hakurya ku musozi ryinshi ry'ibiti by'ubwoko butandukanye.

Umwana uhagaze mu kiyaga cy'amazi afite base y'umutuku ari kudahamo amazi, yambaye agapira k'umweru n'ipantaro y'umukara. Impande hari ibyatsi.

Umugabo ateruye ibase irimo amafi, inyuma ye hari ibyuzi by'amafi menshi bigaragara ko avuye kuroba, hakikijwe n'ibiti n'imirima y'ibyatsi byinshi.

Abantu bari mu kiyaga cy'amazi bafite indobo z'ubururu n'icyatsi, bambaye ibisarubeti, usibye umwe utacyambaye na bote. Impande ye hari ubwato bw'ibiti ndetse n'ibyatsi.

Abagabo batandatu bahagaze bari kwerekana amafi bamaze kuroba. Impande hari icyuzi cy'amafi ndetse hakurya hari ishyamba ry'inzitane.

Abagabo bambaye ingofero mu mutwe b'abarobyi, bagiye kuroba amafi mu kiyaga kiri impande yabo, hakikijwe n'ibyatsi byinshi.

Umugore wambaye ikanzu y'ubururu ishushanyijeho uturabo, yicaye mu bwato bw'ibiti ari kugashya mu kiyaga cy'amazi menshi.

Umusore uhagaze afite telefone ku gutwi ari kwitaba, yambaye ingofero y'umukara mu mutwe, ahetse igikapu mu mugongo, ahagaze mu murima munini uteyemo ibiti ndetse inyuma hari ishyamba.

Umuhinzi w'umugore wambaye ingofero y'umutuku mu mutwe, yateze igitambaro, yambaye umupira w'imbeho, impande ye hari agatebo, ari gusoroma icyayi, impande hari ibiti.

Abagabo n'abagore bambaye amajere y'icyatsi, bahagaze mu murima munini uhinzemo icyayi bari kugisarura. Hakurya hari ishyamba ry'ibiti byinshi.

Abahinzi benshi bari mu murima w'icyayi bari kugisarura, bahetse udutebo ni two bari gusaruriramo, hari umwe ukenyeye ishashi, umurima ukikijwe n'ibiti.

Ikibaya kirekire kirimo ibihingwa bitandukanye, hakurya hari imisozi iteganye iriho amashyamba ndetse yubatse n'amazu yo guturamo n'ikirere kirasa nabi.

Abahinzi b'abagore batatu bambaye udupfukamunwa bari gukora mu kawa irunze ahantu hamwe, impande yabo hari ishyamba ndetse n'amazu yubakisheje amatafari ahiye n'ikigega gifata amazi ndetse n'indabo.

Inkoko nyinshi ziri mu kibuti cyubakishijeje imbaho n'ibiti ndetse n'amabati, ziri kurira ku bintu bisa umweru n'umutuku.

Imifuka ipakiyemo ibintu iri ahantu hamwe hariho amabara atandukanye: umutuku, umuhondo, icyatsi, umweru ndetse n'amagambo yandikishije mu ibara ry'umukara.

Icupa risa umweru ririho igishushanyo cy'inkoko ndetse hometseho igipapuro mu ibara ry'ubururu, handitseho harimo n'amagambo umweru n'umukara.

Udukarito tw'imiti y'amatungo turunze ahantu hamwe mu mabara y'umutuku, umweru, handitseho n'amagambo y'umukara n'umweru, hashushanyijeho inka.

Uducupa tw'umweru turimo imiti dupfundikiye turi ahantu hamwe twometseho ibipapuro bisa umukara ndetse hashushanyijeho n'inkoko, amagambo yanditse mu ibara ry'umuhondo ndetse na oranje.

Amakarito yimiti arunze ahantu hamwe asa umweru, kake, umuhondo, orange ndetse n'ubururu bwijimye.

Abantu benshi bari gutera ibiti bari mu muganda impande hahagaze abasirikare babiri, hari ubusitani bw'indabo ndetse n'ishyamba n'inyubako.

Ikibaya kirimo ibyatsi byinshi birebire ndetse n'umunyonzi usunitse igare hapakiyeho ibintu byinshi mu mufuka n'uwundi mugabo inyuma uri kumusunikira, hari ibiti by'ubwoko butandukanye.

Umusaza uhagaze wambaye ikote n'ipantaro n'ishati y'umweru afite inkoni mu ntoki. Inyuma ye hari inka nyinshi ziri kurisha ndetse n'ibiti bihateye.

Pepininiyeri yubakishije ibiti hejuru ifite imitambiko, munsi hahumbitsemo imbuto ziri mu bihoho.

Ikibuga kinini kirimo ihene zisa umweru, ibihogo ndetse n'umukara, impande hahagaze abantu benshi biganjemo igitsina gabo, bari kuzireba ndetse hari n'ishyamba ry'ibiti byinshi.

Abashumba babiri baragiye inka umwe afite inkoni mu ntoki. Ziri mu gisambu kinini ziri, kurisha ibyatsi, zisa umweru n'umukara, imwe yambaye iherena ku gutwi.

Ikibaya kinini kirimo imirima idahinze yamezemo ibyatsi ndetse n'ibiti, bahuye amatungo menshi, hahagazeho abantu batandukanye, umugore wikoreye inkwi n'undi umuri impande, abagenzi bari gutambuka.

Umugabo wambaye umupira w'umukara n'ipantaro afite umuhoro mu ntoki ari gutambuka, imbere ye hari umugore ukennye ibitenge nawe we ari kugenda. Impande hari ibyuma bizitiye bisize irangi ry'ubururu.

Igishanga kinini cyane gihinzemo ibigori, hakurya hari ibibara ndetse n'ibiti n'amazu yo guturamo.

Amasambu harimo inka nyinshi z'umweru n'umukara ziri kurisha ibyatsi, hateye ibiti ndetse imisozi miremire iriho amashyamba.

Abahinzi benshi bari gutera imbuto mu murima ku murongo, biganjemo igitsina gore hari n'undi uri kubahereza amabwiriza bagenderaho, inyuma yabo hari umurima w'urutoke.

Umusore wambaye umupira n'ikabutura, ari gukama inka, akamira mu cyatsi cy'indobo, inka irajishe amaguru, isa umweru n'umukara.

Umurima urimo ibihingwa bitandukanye harimo: imyumbati, urutoki ndetse n'ibindi byatsi byumye birambitsemo hasi.

Imbuto z'ubwoko butandukanye ndetse n'imboga harimo imineke, karoti, ibibiriganya, inyanya, pavuro.

Igishanga kirekire gihinzemo umuceri harimo inyoni z'ubwoko butandukanye ndetse n'ikiyongoyongo gisa umukara n'umweru, hakurya hari umuntu uri gutambuka ufite umufuka w'umweru mu ntoki ndetse n'ibiti bihakikije.

Umurima urimo ibihingwa bitandukanye, dodo, imyumbati, ibiti, ipoto ndetse n'urugo rwubakishije amatafari ahiye.

Umuhanda munini w'igitaka, impande hari ikibaya kirimo imirima ihinze hashinze ipoto rinyuza insinga z'amashanyarazi mu kirere, hakurya hari umusozi uriho amashyamba.

Umuntu uhagaze wambaye ipantaro n'inkweto by'umukara, afite mu ntoki umwembe, karoti, zifunze pavuro ndetse n'ibindi birimo imboga zipakiye mu kantu ku ruhande.

Ikibaya kinini kirimo ibihingwa bitandukanye by'amoko menshi, impande hari imisozi iteganye ndetse n'ikirere gisa nabi, ku misozi hari amashyamba.

Umurima urunzemo amabuye, impande hari inyubako zubatse, imbere hari umugozi wanitseho imyenda ndetse n'ibiti bihari by'ubwoko butandukanye hahinze n'ibigori.

Abantu benshi bari gutambuka mu muhanda munini wa kaburimbo, impande hakikijwe n'ibiti birebire ndetse inyuma hari inyubako.

Umurima urimo ibihingwa bitandukanye birimo: ibigori, inyanya, amadegete ndetse n'urutoki rwinshi n'ibiti by'ubwoko butandukanye.

Umuhanda w'igitaka urimo abantu benshi cyane bari gutambuka, impande hari ishyamba ry'inzitane, amazu yo guturamo ndetse n'imirima yo guhingamo.

Umuhanda munini wa kaburimbo, hari imodoka iri kuhanyura impande, hari amatara yo ku muhanda ndetse hakikijwe n'ishyamba ry'inzitane, imbere hari inyubako n'amazu yo guturamo.

Icyapa gisize irangi ryumweru n'ubururu, cyanyandikishijeho amagambo y'umukara mu nyuguti nkuru, impande hari umuhanda ndetse n'imirima irimo ibihingwa bitandukanye, n'umusozi uriho amashyamba.

Igitebo kinini basaruriyemo inyanya zihishije zisa umutuku, impande hari abantu bahagaze bazifite barikuzireba.

Umugore wambaye ingofero mu mutwe itaba y'umweru mu mufuka yashyizemo icupa, yambaye agakomo ku kaboko, afashe kuri pavuro zihinze mu murima munini.

Ubusitani bw'indabo nyinshi z'ubwoko butandukanye, m o hagati harimo kayira ndetse hazengurukijwe n'urukuta rw'amatafari ahiye, inyuma yabo hari ibiti ndetse n'ishyamba.

Umugabo wambaye ishati y'umweru irimo imirongo n'ipantaro, afite agatebo karunzemo inyanya, ari kukifashisha azipakira mu mifuka y'umweru irimo n'andi mabara. Impande hari imirima.

Imbuto n'imboga birunze ahantu hamwe, harimo pavuro, urusenda, amashu, karoti, imiteja, pome ndetse na biringanya.

Umugore wambaye agapfukamunwa ateze igitambaro mu mutwe n'umupira ateruye ikintu kiriho ingemwe z'amashu, ahagararanye n'umugabo wambaye agapfukamunwa n'ingofero, afite amafaranga mu ntoki.

Umupira munini uyobora amazi mu murima, urapfumuye kumpande, wohereza amazi muri buri mutabo, umurima munini uhenzemo ibigori.

Imashini zigezweho zifashishwa mu kuvomerera imyaka, ziri gutanga amazi ku bihingwa bihinnze mu gishanga, hakurya hari umusozi uriho ibiti byinshi.

Umupira uzamura amazi mu murima munini uhinze mu mitabo mo ibigori ku murongo, impande hakikijwe n'ibiti.

Amataba ariho imirima ndetse n'amashyamba y'ibiti by'ubwoko butandukanye, inzu zo guturamo zisakaje amabati.

Umusaza wambaye ingofero, umupira ndetse n'ipantaro ahagaze mu murima w'ibigori biteye ku murongo, harimo imipira izamura amazi iri kuvomerera. Impande hari imisozi ndetse n'amashyamba.

Umusore yambaye umupira wa oranje n'ipantaro y'umukara afite umupira ujyana amazi mu bihingwa ari kuvomerera mu murima munini, impande yawo hari umurima w'urutoki ndetse hari n'ibiti.

Umugabo uhagaze mu murima munini afite umupira ukurura amazi ari kuvomerera. Impande hari ubuhinzi bw'ibitoki, urutoki runini ndetse n'imisozi iriho amashyamba.

Umurima munini uhinzemo imboga, hari akamashini kari kuvomerera kamenamo amazi, impande hari ibiti by'ubwoko butandukanye ndetse n'inzu isakaje amabati.

Umusore wambaye agapfukamunwa, umupira w'icyatsi n'ipantaro y'umukara afite rozwari ebyiri ari kuvomerera igiti mu murima uhinzemo ibishyimbo, inyuma ye hari ibitovu ndetse n'ibindi byatsi.

Umusore wambaye igisarubeti cy'umukara n'amadarubindi, afite umupira wifashishwa kuvomerera ari gushyira amazi mu murima w'ibigori, impande hari abandi bantu bahahagaze.

Abantu bari ku murongo bambaye amafarari mu ijosi, biganjemo abambaye n'imipira isa ubururu bahagaze mu kibara cyirimo ibyatsi, impande hateye ibiti.

Umusozi muremure hariho imirima irimo ibihingwa bitandukanye urutoki, ibigori, ibiti, ubwatsi bw'amatungo ndetse hari amazu yo guturamo.

Umusozi uriho amaterasi y'indinganire ndetse n'imirima ihinzemo ibihingwa bitandukanye, hateyeho amashyamba ndetse n'amazu yo guturamo.

Imisozi iteyeho amashyamba ndetse hari n'amazu yo guturamo. Ibibaya birimo ibihingwa bitandukanye, ibiti by'ubwoko butandukanye ndetse n'insina.

Ibibara birimo ibyatsi byinshi ndetse n'ibihuru, amashyamba, amazu yo guturamo, ndetse n'imisozi miremire iteganye n'ikirere gisa nabi.

Imisozi miremire myinshi yateganye hateyeho amashyamba menshi yibiti byubwoko butandukanye, urutoki ndetse n'amazu yo guturamo.

Umusore wambaye bote z'umukara n'igisarubeti cy'ubururu bwijimye, ahagaze mu cyumba bororeramo inkoko zitera amagi ndetse hari n'amagi zateye.

Inka zisa ibihogo zifite amahembe maremare, ziri mu ruzitiro rw'ibiti, impande hahagaze abantu bambaye ibisarubeti by'ubururu n'amataburiya y'umweru.

Ikibara kinini harimo inka zifite amahembe maremare n'umusore uzahuye ku musozi, inyuma hari ibiti by'amoko atandukanye.

Inkoko nyinshi zifite ibirokoroko, ziri mu cyumba kinini, mo imbere harimo ibintu ziraho bisa umweru ndetse n'umutuku.

Umusore wambaye inkweto zisa ubururu, amasogisi y'umweru, ipantaro n'umupira ahagaze impande hari inka zifite amahembe maremare ziri kurisha ibyatsi, impande hari ibiti.

Inka nyinshi zisa ibihogo zifite amahembe maremare, zizitiye mu ruzitiro ruzitijwe n'ibiti, impande hari abantu bahagaze bambaye amataburiya y'umweru babiri n'undi wambaye isarubeti y'ubururu.

Umusore uhagaze ateruye inkoko yambaye igisarubeti cy'icyatsi na bote z'umweru, hasi hari inkoko nyinshi cyane amasake n'inkokokazi ziri kurira ku bintu bisa umutuku.

Urwuri rw'inka bari gukama, izindi zirahagaze zisa umukara n'ibihogo, hari abashumba bafite ibyasi ndetse n'inkoni mu ntoki, impande hari amazu asakaje ibati ndetse n'ibiti.

Ubworozi bw'inkoko harimo isake n'inkokokazi zikiri ahantu hari ibiti ndetse n'uburiro bwazo busa umweru n'umutuku.

Isambu nini irimo ishyo ry'inka zifite amahembe maremare zisa ibihogo ndetse hateyemo n'ibiti. Hari abashumba baziragiye ndetse n'ikirere kirasa nabi.

Inka isa umweru n'ibihogo, iri kurisha ibyatsi byinshi ndetse iri mu kiraro cyubakishije ibyondo ndetse n'imbaho n'ibiti.

Inka isa ibihogo ifite iherena ku gutwi iri mu kiraro cyubakishije ibiti byinshi byumye, impande hari umurima uhinzemo ibigori ndetse n'ibiti.

lnyana iryamye mu kiraro gishashemo ibyatsi, isa umweru n'ibihogo, ifite iherena ku gutwi ,ikiraro cyubakishije ibyuma.

Umugore ufite ikaramu mu ntoki yambaye umupira w'umweru, ahagaze ku kiraro kirimo inka nyinshi zisa ibihogo ziri kurisha, ikiraro gisakaje amabati.

Inka isa umweru n'umukara iri mu kiraro gishashemo ibyatsi, cyubakishije imbaho ndetse n'ibiti. Impande hari indi nka isa ibihogo n'umweru ndetse hari ibiti.

Ubworozi bw'inkoko ziri gutora ibintu, impande hari ikiraro kirimo inka isa umweru cyubakishije ibiti ndetse hirya hari ibiti bifite amababi asa icyatsi.

Ubwanikiro bw'ibiribwa hanitse ibigori byinshi cyane, impande hahagaze umuntu wambaye umupira w'umweru n'undi wikoreye ibintu ku mutwe, ubuhinzi bw'ibitoki ndetse n'imirima myinshi n'ibiti.

Umugore wambaye ingofero y'umukara, isengeri y'umweru n'ijipo, ari kugosora ibishyiyimbo kuntara, inyuma ye hori ibati risa ubururu.

Abaganga batatu bambaye udupfukamuwa, umwe afite ikayi n'ikaramu ari kwandika undi ari gusuzuma, yambaye ga mu ntoki ndetse n'ibikoresho harimo n'imikasi.

Abasore babiri bambaye imipira y'umweru bari mucyumba bari kuvura imbwa yakomeretse ku kaguru, bayigaramishije ku kiringiti bari kuyivura.

Inka z'inyambo ziri mu ruzitiro rw'ibiti ku murongo, impande hari ibiti ndetse n'abantu babiri, umwe wambaye isarubeti y'ubururu na bote z'umweru, undi itaburiya ni bote z'umukara.

Abagabo batatu bambaye ibisarubeti bisa ubururu na bote n'undi wambaye itaburiya y'umweru na ga mu ntoki, bafite inka bafashe umurizo undi ari kuyivura. Impande hari ibiti.

Inka nyinshi zisa ibihogo, ziri mu ruzitiro, zifite amahembe maremare ndetse hari n'izambaye amaherena ku matwi. Impande y'uruzitiro hari abantu bahagaze ndetse n'igiti.

Inka sebehoko iri mu ruzitiro bayifashe umurizo, ni abagabo babiri bambaye igisarubeti bisa ubururu bari kuyibyaza.

Abagabo batatu bambaye bote ndetse n'amataburiya y'umweru bari kubaga inka inyama bazirambitse hasi, impande hahagaze abandi ndetse hari n'amakaro.

Umugabo wambaye isarubeti y'ubururu, afashe umurizo w'inka impande ye hari umugore wambaye itaburiya y'umweru witeze n'igitambaro mu mutwe ndetse na ga mu ntoki.